Ikirenge cy'umuntu upfutse wakoze impanuka, intebe, amagambo avuga ngo impanuka ntiteguza, gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, bagaragaza n'imibare wakanda uyigura na nimero wabahamagaraho.

Uruhererekane rw'ibikorwa byagiye biba muri Ekwiti banke yo mu Rwanda aho hagaragara kode, itariki byagiye biba, amafaranga.

Abantu babiri barimo kuganira bishimye umwe ni umugore undi ni umugabo, umugore ari gukoresha ikoranabuhanga, inyuma y'umugabo hari imyenda itandukanye ihamanitse.

Amakote, amashati bimanitse hamwe, amakaro, parafo, amatara, irange ry'umweru.

Abantu babiri b'abadamu, bishimye, umwe yambaye amadarubindi, barimo gukoresha mudasobwa, bigaragara ko bacuruza imyenda.

Umuhanda, imyenda icuruzwa, icyapa, nomero z'ucuruza, aho wamwandikira ubutumwa bugufi, n'inyubako.

Umudamu wishimye wambaye ikanzu idoze mu gitenge, ndetse acuruza amakanzu menshi adoze mu bwoko bw'ibitenge butandukanye.

Umuhanda, imodoka ebyiri, imwe iriho icyapa, amazu, igiti cy'umweru, amashyamba n'ikirere.

Abagabo babiri bishimye basuhukanyije, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo, imodoka ebyiri, iy'ubururu n'umweru, umuhanda, ibiti ndetse n'ikirere.

Imodoka y'umukara icanye amatara, kaburimbo, amagambo agaragaza ko igurishwa miliyoni cumi n'eshatu, inyubako y'amatafari, ibiti by'ibimera n'ibyamashanyarazi.

Abantu bicaye n'abahagaze, ameza, ibitabo, mudasobwa, intebe, imodoka, indabo, inkingi n'inyubako.

Abagabo babiri umwe wambaye amadarubindi, bafite icyapa cyanditseho eyibiji Akagera motozi, imodoka ebyiri z'umweru.

Kaburimbo, imodoka y'umukara, ibimenyetso bigaragaza ko iyi modoka iri kugurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu, ibiti, inyubako.

Abagabo babiri bari guseka, bafite icyapa mu ntoki, imodoka, ikirere, ibyatsi, ibiti, amazu, ndetse n'indabo.

Abantu babiri umwe afite amafaranga, undi yambaye agapfukamunwa, mu idirishya mu kindi cyumba, ikaramu, mudasobwa idirishya ry'kirahure,

Urugi rw'ubururu, igishushanyo cy'inka, utujerekani dutatu tw'amata, inini y'umweru, inyubako y'amatafari, amakaro.

Inyubako y'inzugi z'ubururu, irimo amajerekani arindwi y'amazi meza, yitwa Jibu ifungishije ingufuri ebyiri.

Inyubako isa neza, irimo amata ndetse n'aho abuganizwa, ari mu tujerekani, mu ducupa.

Imbuga, intebe, ameza, umutaka, inzu, icyapa, ibiti ndetse n'ikirere.

Abantu babiri b'abakobwa, umwe wambaye ingofero y'umweru afite ijage mu ntoki y'icyatsi ari gusuka mu tujerekani tw'umweru, undi ari hanze y'inyubako mu idirishya.

Isahani nini iriho amandazi menshi, ibiganza biyiteruye bibiri, imeza irimo amabara y'umukara.

Abantu batatu, abagabo babiri n'umugore, agakombe, amasahani, icyapa kivuga ngo hano hari amata meza y'inka, indobo.

Amafaranga y'amatanzaniya igihumbi, ashushanyijeho umuntu w'umugabo, igice cyo hejuru cyonyine ndetse ateyeho kashi y'igihugu cya Tanzaniya.

Imodoka nyinshi ziparitse ku muhanda wa kaburimbo, imwe ifite ipine ry'ubururu inyuma, inyubako iteye irangi ry'umweru, umuntu ushushanyije ku nyubako w'umusore.

Intebe nshyashya z'umukara, imeza nshyashya ikozwe mu mbaho, akabati, inyubako ifite amadirishya y'imbaho.

Intebe nyinshi ziri mu nzu ahantu heza hafite isuku, iz'ubururu, iz'umweru, imeza zitandukanye, ahantu hasa umweru.

Intebe, ameza, imisego, inzugi z'ibirahuri, abantu bari mu birarahure mo imbere.

Intebe nziza zo mu ibara ry'umukara, imisego, umusambi ushashe hasi w'ibara ry'icyatsi, amarido y'umweru.

Intebe, imisego, ururabo, ibishushanyo, umusambi, ibirahure n'inyubako.

Intebe, ameza, ibikombe by'ibirahure, amasahani, ifurusheti, indabo, ikirere, amazu ndetse n'ibiti.

Inyubako, amarido, igitanda, ameza, intebe, icupa, ururabo, indobo.

Udufata mashusho, inyubako igeretse, ibiti, ikirere ndetse n'abantu.

Inyubako ifite amadirishya y'ibirahure n'inzugi, ifite jaride hanze ndetse n'imihanda yubakishije sima.

Ibyatsi, intebe, ameza, amazi, inzu, amadirishya y'ibirahure, umutaka, ibiti, ikirere.

Inzu, ibiti, imitaka, umuntu, ikirere, intebe ndetse n'ameza.

Ubusitani, intebe, ameza, imitaka, inyubako, amatafari, ibiti n'ikirere.

Inzu nini igeretse ifite amabati y'umutuku iri ku muhanda wa kaburimbo, imbere yayo ihinzeho ibiti, ifite amarido y'umweru n'amadirishya y'ibirahure.

Umuhanda, inyubako, indabo, amadirishya y'ibirahure, inzu, ibyapa n'inyubako n'ikirere.

Umuhanda, abantu batatu, icyapa, amagambo yanditse ku nzu, ikirere, itara, ibiti, umugozi w'umuriro w'amashanyarazi.

Intebe, ameza, ururabo, amagambo, abantu, mudasobwa, amatara ndetse n'inyubako.

Abadamu bishimye, bambaye neza, bafite utwibo imbere yabo buriwese, inyubako, ndetse n'ameza.

Umugabo wishimye ari kureba hejuru, urupapuro rw'umweru, mudasobwa, agakombe k'umweru, ururabo ndetse n'amagambo.

Iduka ry'inkweto n'ibikapu, abantu babiri b'abasore, inyubako y'ibiti, ikirere, ingufuri.

Abantu benshi bicaye mu isoko, abahagaze, inyanya, intoryi, avoka, imboga, sereri ndetse n'inyubako.

Kizimyamwoto, inyubako y'isoko isakaye n'amabati y'ibara ry'ubururu, bacururizamo amavuta, utwenda tw'abana n'ibindi bitandukanye.

Abantu batatu isoko ry'imboga, inyanya, imwija n'intoryi. Inyubako y'ibiti umudamu uri kwishyura undi mudamu.

Umudamu wicaye yishimye, yambaye amaherena, acuruza, inyanya, tungurusumu, intoryi, imineke, ibirayi n'ibindi

Ahantu hari abantu benshi bicaye, abahagaze, urusenda, intoryi, ibitoki, amashaza ndetse n'imyenda.

Umuhanda, abantu, amatara, imodoka, amapikipiki, inzu, ikirere ndetse n'ibiti.

Umudamu wikoreye, umuntu uryamye, umuhanda, imodoka, imitaka, inzu, ibyuma, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, ikirere ndetse n'ibiti.

Umuhanda, abantu, ipikipiki, imyenda bacuruza, ibyapa ku nzu, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, imodoka ndetse n'ikirere.

Indobo, ibase, inyanya, intoryi, imboga, abantu, inkingi, amazu, karoti ndetse n'ibirungo.

Isoko, imyenda, abantu, sima, icyapa, inyubako, amatara n'ibase.

Abantu batatu bicaye, abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe, umukobwa umwe bafite telefone mu ntoki, bari ahantu bacururiza imyenda.

Abagabo batatu bahagaze, umuhanda, inyubako, ibicuruzwa , ibikapu ndetse n'ibyibo.

Abantu benshi, amabase, inyanya, insenda, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibiti.

Akazu ka MTN, abantu bakicayemo imbere n'abari inyuma bahagaze, umuhanda, ibiti, moto, ndetse n'inzu.

Abantu batatu, mudasobwa, igitabo, inyubako, icyapa cya MTN ndetse n'urugi.

Akazu k'umuhondo ka MTN, icyapa, ibiti, inyubako, ibiti by'umuriro w'amashanyarazi n'ikirere.

Abantu batatu, babiri bari hanze n'umwe wicaye mu kazu ka Airtel, akazu ka MTN, imodoka, ibyatsi ndetse n'inyubako.

Abantu bahagaze n'umwe wicaye mu kazu ka MTN k'umuhondo, igiti, umuhanda, imodoka, moto ndetse n'ikirere.

Igikapu, abantu, abakobwa babiri bari kumwe, umwe ari kwandika yambaye amaherena, undi yambaye amadarubindi, akazu ka MTN k'umuhondo.

Ibiganza bibiri by'umuntu ugaramye, ikiganza cy'ibumoso kirimo gukanda telefone, ahetse agakapu k'umukara, imbere ye hicaye umuntu wambaye inkweto z'umukara n'umweru.

Amabuye, ubutaka, abantu, akazu ka MTN, ibiti ndetse n'ikirere.

Abantu benshi, abagabo babiri bari imbere, bari gusuhuzanya bishimye, baseka, icyapa cy'umuhondo kiriho imibare yo gukanda, inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ikinyabiziga, abagabo babiri umwe we yambaye agapfukamunwa, amazu, ibiti by'umuriro w'amashanyarazi, ibimera.

Umuhanda, amapikipiki akurikiranye, imibare, amagambo, ibyatsi, ibiti ndetse n'ikirere.

Inyubako ifite inzugi z'ibirahuri n'amadirishya, ururabo ibiti ,urugo ndetse n'kirere.

Urugi, inyubako, amagambo yanditse avuga ko, iyi nzu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, uherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu nini, amadirishya y'ibirahure, inzugi, amarangi, amagambo agaragaza ko yagurwa miliyoni ijana na mirongo ine.

Inzu iteye irange ry'umweru, urugo rw'amatafari ahiye, igiti, amagambo yanditse, agaragaza ko iyi nzu ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, aho iherereye ko ari i Kigali, mu Rwanda.

Inyubako nziza, amagambo asobanura ko amafaranga yayigura ari miliyoni magana atatu mirongo itanu, ko iri i Kigali, ubusitani, ikirere,

Amagambo, intebe, inyubako, urugi, televiziyo, umuryango ufunguye, amabati.

Umuhanda, ubusitani, inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya y'ibirahure, amagambo agaragaza ko ku kwezi ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu, aho iherereye ko ari i Kigali.

Ubwiherero bw'umweru, aho bakarabira mu ntoki basoje kwiherera, umuntu wambaye ingofero, amakaro, inyubako.

Umugabo wishimye cyane, uri imbere y'inyubako iteye amarangi y'umweru, amadirishya y'ibirahure, hejuru handitseho amafaranga miliyoni mirongo icyenda.

Inyubako, inzugi, umuntu, amagambo agaragaza ko igurishwa, aho iherereye, ibitanda birimo, ubwogero burimo, amafaranga ko ari ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu, amagambo asobanuye ko ikodeshwa, ibitanda bine ndetse n'ubwogero butatu, ikirere, ibiti ndetse n'imbuga.

Umuhanda w'igitaka, inyubako nini, amagambo agaragaza ko igurishwa, i Kigali, ikirere.

Amagambo agaragaza ko inzu ukodeshwa, aho iherereye, Kigali, Kanombe, umuhanda, indabo, ibiti ndetse n'ikirere.

Amabuye, ubutaka, ibyatsi, urugo rw'amatafari, icyuma, imigozi y'umuriro w'amashanyarazi, inzu, indabo n'ikirere.

Urugi rw'umukara rufunguye, ibiganza by'umuntu bifashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, sima, intebe.

Abantu babiri, umwe ufite indangururamajwi ari gusobanura ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, icyapa, undi muntu wambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi bahagaze b'abagabo n'abagore, icyapa, inyubako, inzugi, amadirishya n'amakaro.

Abagore babiri bicaye umwe yambaye umwenda w'akazi, afite ikaramu ari kwandika mu ikaye, ameza, intebe n'inyubako.

Abantu batatu bahagaze, inyubako irimo ibicuruzwa, umuti w' amenyo, amavuta yo kwisiga ndetse n'amavuta yo kurya, ikirere.

Umujyi urimo imodoka nyinshi n'abantu, icyapa, umuhanda w'abanyamaguru, umuhanda wa kaburimbo, amatara.